Inama irimo abantu batanu, abagabo batatu, n'abagore babiri, ku meza bicaranye amazi, impapuro n'amatelefone.

Agasorori k'cyuma gakoreshwa kwa muganga bashyiramo ibikoresho bigiye bitandukanye, ubu harimo inshinge. Ku ruhande hakaba hari akandi gacupa kaba karimo imiti y'amazi batera mu muntu.

Umwana ari ku ivomero yambaye ishati y'icyatsi n'ikabutura, yafunguye amazi ari gukaraba intoki.

Umuryango wa Unicef, ushinzwe gukurikirana imibereho y'abana, kubajyana ku ishuri, kumenya uko babayeho mu miryango, kureba imirire yabo no kuyongera.

Umugabo wambaye ishati ipantaro ari ku ivomero arishimye arangije kuvoma.

Abana bagera muri batandatu, bari ku mugezi, bari koga, barishimye.

Madamu Jacqueline yaragize ati, tugomba kureba impande n'impande. Tureba abafatanyabikorwa. Kugira ngo dufashanye urwego rw'ubuvuzi ruzamuke. Umuturage wese abone ubuvuzi, ku gihe.

Umugore urimo kuvoma ku isoko, afite amabido, yambaye igitenge bigaragara ko yishimiye ko amazi yabonetse kandi ari meza.

Umwana usutse imisatsi w'umukobwa, yambaye ibitenge arimo gukaraba aciye bugufi, ku ivomero hasi, hari ibase, aho amazi amanukira.

Umwana muto w'umukobwa w'umunyeshuri, ari gukaraba intoki yishimye n'amazi meza, yambaye inifomu ikeye isa neza y'ubururu.

Umugabo wambaye agapfukamunwa, arimo guterwa urushinge n'umugore nawe ukambaye, umugabo akaba yambaye umupira wanditseho arabisi, ni ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Umugabo n'impapuro ndetse n'ibitabo arimo kuvuga abwira umugore ufite umwana, bisa nkaho amusobanurira ku byerekeye ubuzima ndetse n'imirire y'abana muri rusange.

Ahantu abaturage bakura amazi, mu gihe yagize ikibazo atari kubageraho cyangwa se aho uherereye akaba atahagera, abagore, abagabo n'abana, baba baje kuhavomera.

Umugore ndetse n'umwana muto bigaragara ko arimo kwitabwaho n'umuganga w'umugabo, amukora ku ijosi yumva ahantu ikibazo cyangwa se indwara ye iherereye.

Abana bateraniye hamwe bigaragara ko baje ku ivomera gutora amazi, umwe arimo kubafasha kuvoma abandi bategaho bataha.

Umukobwa arimo mu kuvoma amazi meza ava ku isoko, ashyizeho ibido, ariho ari kumanukiramo, ku ruhande yatezeho ibase, kugira ngo ameneka aze gukoreshwa indi mirimo.

Umuzungu w'umugore ari gufotora umwana uhetse akabido, akikorejwe n'undi mugabo wambaye ingofero y'ubururu, umupira w'ubururu, agapfukamunwa k'umweru na amarinete.

Minisitiri w'ubuzima asuhuzanya n'umugabo wambaye ikoti, ku ruhande afite ibitabo mu ntoki, bisa nkaho bavuye mu nama ishyigikira ubuzima ndetse n'ibitaro muri rusange.

Umwana arimo gukaraba intoki, yishimye ku ivomero, ku ruhande hari icyapa cya WASAC izwiho kugeza umuriro ndetse n'amazi mu baturage b'u Rwanda.

Urugomero aho batunganyiriza amazi dukoresha mu rugo tubona ava muri robine. Aha niho atunganyirizwa ndetse agashyirwamo imiti ituma aba meza.

Umugabo w'umusaza arimo guseka. Afite ibihanga, ku ruhande amenyo ye asa nabi, bigaragara ko atajya ayakorera isuku uko bikwiye.

Imodoka y'ivuriro, abaganga bicaye hanze, barimo kwakira abantu babavura, bakira ibibazo byabo, bumva indwara zabo, ibikoresho n'ibindi bikenerwa byo kwa muganga bari kubikura mu modoka.

Abagore babiri bicaye bafite abana b'impinja n'undi umwe ubari hagati bisa nk'aho arimo kubaganiriza abagira inama yuko bakita ku bana babo.

Inama yateranyirije abantu benshi barimo kwiga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa imitekerereze, harimo abagore, abagabo, bose baje babukereye bambaye neza.

Kurira ni byiza, byoza amaso, bituma umuntu aruhuka, biba byiza iyo ubikoze ari impamvu nziza zibiguteye, ibyishimo cyangwa umunezero.

Inama ihuje abaganga ndetse n'abandi bakozi n'abaturage, baganira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ku ndwara zabwo ndetse n'uko umuntu yakwirinda indwara ziva mu mitekerereze cyangwa se mu bwonko.

Umukozi ukora mu bijyanye n'ubuzima, arimo kwereka agakoresho umumama bicaranye, amugira inama, amwereka uko gakoreshwa, avuga ibibi n'ibyiza byako.

Ihuriro ry'abaganga ndetse n'abakozi bahuriye hamwe, barimo kwishimira ku iterambere bagezeho, kandi baganira ku ndwara zigiye zitandukanye zo mu kanwa, n'ukuntu bakomeza kuzivura kandi baganiriza abaturage uburyo bazirinda.

Umugabo ukuze arimo gufashwa guhaguruka ni umukobwa muto bigaragara ko umusaza atagifite imbaraga zo kwihagurutsa, biba byiza murino myaka iyo ufite umuntu ugufasha mubuzima bwawe bwa buri munsi.

Umugabo uri mu zabukuru, arimo gufashwa kugarura umubiri. bisa nk'aho imbaraga ze zacitse, cyangwa se uko umubiri wakoraga byagabanutse. Afashe umugozi arimo kugorora ingingo, awukurura yongera gusubizayo.

Umukecuru aricaye arimo guteka mu isafuriya isa umukara, hejuru yapfundikishijeho indi nayo isa umukara.

Umusore wambaye umupira, ipantaro ndetse n'inkweto ari kumwe n'umusaza wambaye ingofero bafatanye ku rutugu ndetse barimo kuganira bigaragara ko bahuje urugwiro.

Umusaza urimo kwitabwaho ari kumwe n'umuforomokazi, amushyiraho igikoresho gituma bapima umuriro bakareba uko ungana mu mubiri wawe.

Umugore usa nk'aho ari mu myaka mikuru, yishimye arimo gukora siporo zituma ingingo ze zigororoka kandi zikagira ingufu n'ububasha bwo guhashya indwara yose yakatakaka umubiri.

Umusaza uri mu za bukuru ,arimo gukora siporo yifashisha udukoresho two mu ntoki agorora amaboko ayazamura ayamanura mu gutwi arimo kumvamo indirimbo yifashishije udusohoramajwi.

Umusaza ndetse numwana w'umuhungu bicaye barimo kureba ikintu mu gitabo baseka kuruhande hari amatasi bisa nkaho hari harimo ikintu cyo kunywa.

Umusaza ndetse n'umukecuru bicaye hamwe, bishimye barimo gukina umukino, bisa nk'aho uri kubafasha kuguma baganira ndetse bikiza irungu, banaruhura mu mutwe.

Umusaza wambaye umupira w'ubururu n'ikabutura y'umukara ufite imvi, ari gufashwa n'umudamu wambaye ibintu by'umukara hose, amwerekera uko agenda.

Urugendo rusange rugamije gukangurira abakobwa, abagore ndetse n'abagabo muri rusange, kwirinda kanseri y'ibere, bisuzumisha hakiri kare kuko ivurwa igakira.

Ihuriro ry'abagore bicaye hamwe, bari kuganira biga ku bibazo by'abagore, bareba ibisubizo byabo, bagira inama abana bato b'abakobwa bari inyuma, batujuje imyaka n'abujuje imyaka y'ubukure.

Abaganga babiri bambaye udupfukamunwa n'ibindi bikoresho by'akazi, bari gusuzuma umuturage wicaye ku ntebe, bari kumurebera mu menyo.

Umugore wambaye amarinete ndetse n'ipantaro y'umukara n'agapira k'umukara, arimo kuganira aganiriza abantu ku ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa bato. Iki gikorwa kiba kigamije kumva ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye.

RBC ikigo gishinzwe ubuvuzi mu Rwanda, kikaba gifite mu nshingano Minisiteri y'Ubuzima ndetse kigakurikirana imibereho y'abaturage mu bijyanye n'ubuvuzi.

Murakaza neza mu nama y'abagore ishyigikira iterambere ryabo, izabera muri Canada mu mujyi wa vekeri, izaba tariki zirindwi ndetse n'umunani z'ukwezi kwa kane.

Ibitaro bya gisirikare aho abarwayi bajya kwivuriza, hakaba harimo inzu zigiye zitandukanye. Iy'indembe, iy'indembe y'abana, isuzumiro, aho bafatira amaraso, aho batangira imiti ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye.

Farumasi IRAGUHA. Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti yo kwa muganga. Bakorana n'ubwishingizi bugiye butandukanye, harimo Sanram, Urwego bank, MMI, Britam n'ubundi bwishingizi.

Abagore bagera kuri batandatu bambaye udupfukamunwa ndetse n'imyenda y'akazi bigaragara ko bakora mu bitaro ,bifotoje bagaragaza uruhare abagore bagira mu buvuzi kandi batewe ishema n'ibyo bikorwa.

Umurongo muremure w'abantu bigaragara ko bategereje ubuvuzi, ku ruhande hari umugabo bigaragara ko akora mu bitaro arimo kubahiriza amabwiriza na bo bategereje umuganga.

Ikigo nyafurika gishinzwe gukurikirana indwara ndetse n'ibyorezo byibasira umuntu ndetse n'inyamaswa kikaba kidufasha mu gukurikirana neza imiti yakiza ibyo byorezo ndetse n'ibindi bibazo biba byugarije isi.

Icyumba kibarizwamo indembe cyangwa se abarwayi baje kwivuza, ni ho muganga abasanga, akabitaho ndetse akabahereza ubuvuzi nk'uko bikwiye.

Icyumba cyo kwa muganga kiba kirwariyemo abarwayi, ni ho barara iyo uje bakabona indwara yawe ikomeye bagusaba kuraramo kugira ngo bakwiteho bikwiye, hanze hari abarwaza baba bashinzwe kumenya amakuru y'abo bazanye.

Intebe yo kwa muganga ikoreshwa kugira ngo bicazeho umurwayi, noneho muganga aba yicaye ku kandi gatoya gasa umukara, ku ruhande hari igiti kiba kimanitseho icyo twita serumu.

Inzu cyangwa se icyumba kirimo ibikoresho bigufasha gukora siporo gusa by'ikoranabuhanga, harimo ibyo ukora wiruka, harimo ibyo ukora uterura, harimo ibyo ukora wongera amagufwa cyangwa uyaruhura.

Etaje y'amagorofa ane, hejuru yaho hariyo ibigega by'amazi, hariyo antene, hanze umusekirite arimo gukingurira imodoka.

Ibitaro byo kwa Nyirinkwaya, biherereye ku muhanda ubusanyije n'ujya i Remera, iyo ukomeje uhura na hoteli yo kwa Rando ku Gishushu, wakegera imbere gato ukaba urahageze.

Abaturage bateraniye hamwe bigaragara ko aha hantu ari ivuriro baje mu nama cyangwa se mu bindi bikorwa by'ubuvuzi bigiye bitandukanye.

Icyumba kibarizwa kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ubuzima bisa nkaho bakizanamo umuntu ugiye kwitabwaho by'umwihariko.

Abayobozi ndetse n'abaganga muri rusange, baje bitabiriye igikorwa cyo gufungura inzu izajya ifashirizwamo ababyeyi bagiye kubyara.

Mu ntoki afashe ibiribwa harimo puavro, avoka, inyanya, tungurusumu ndetse na pomme. Kuruhande hari inkweto za siporo, ku rundi icupa bashyiramo amazi.

Amaboko ane y'abantu babiri batandukanye, umwe arimo gufasha mugenzi we kwambara ibikoresho bya siporo, bituma akoresha neza amaboko atera ibipfunsi.

Imashini ikoreshwa kwa muganga mugihe, urimo kuvura umuntu, bashaka gupima umutima, bumve niba ukirimo gutera umutima, cyangwa se wahagaze. Muri make bakareba niba ukiri muzima cyangwa se upfuye.

Siporo ni nziza cyane ku buzima. Zica ibinure, zituma amagufwa yacu akomera. Umugore ukoze siporo aba arimo kongera ubuzima bwe n'ubw'abana bazamuvukaho, bwiza kandi burambye.

Umusore yicaye, bigaragara ko ananiwe avuye gukora siporo, ndetse afite icupa ry'amazi, ari kunywa, ndetse afite agatambaro mu ijosi, bigaragara ko akifashisha mu guhanagura ibyuya.

Minisitiri w'ubuzima ari kumwe n'abandi bakozi ndetse n'abaganga bamwereka ku gikoresho gifasha umuntu wavunitse ukuguru kugira ngo akire vuba, bamwereka ukuntu gikoreshwa.

Umukobwa uri gukora siporo ukuguru yagutandukanyije n'ukundi yakurambuye arimo kwigorora.

Icyuma cyo kwa muganga gishinzwe kureba ibintu birimo imbere, iyo ucyinjiyemo barakubwira ngo uhumirize kugira ngo kitakwica amaso kiba gifite urumuri rwinshi cyane, iyo ugiye mu mashini bakwereka uko umubiri wawe uteye wose.

Umuntu wambaye ipantaro afite imvune arimo kwikanda yikiza amavunane. Afite inzara nziza, numuntu ugira isuku.

Agakapu kaba karimo ubuvuzi bw'ibanze, iyo tuvuze gutyo haba harimo, imiti ndetse n'ibindi bikoresho byafasha umuntu mu gihe agize ikibazo.

Ubuki ni bwiza. Buradufasha kurusha isukari, aho bukorerwa mu mutiba aho inzuki ziba zahuriye. Butuma twirinda indwara zigiye zitandukanye, haba umuvuduko w'amaraso, diyabete n'izindi.

Amacupa abiri y'umuhondo hejuru afite udufuniko, ku ruhande hari igikarito kiriho umuntu uri gukora siporo.

Imiti itegereje kugurwa iri m'uducupa tw'umweruru, umukara, n'icyatsi. Abantu ku ruhande bari kuyitegereza.

Abenshi dukunze guhura n'indwara bita Amibe, ikatubuza amahoro tukaribwa mu nda, Reishi niyo yonyine ishobora guhangana n'iyo ndwara ku kigero cyo hejuru kuko ituma igifu cyongera kigakora neza.

Imiti ya gakondo cyangwa se ihinga. Ni myiza kandi idufasha mu buzima bwa buri munsi. Ushobora kuyitera iwawe ku karima k'igikoni ku ruhande y'inzu, ikagufasha kwihura mu gihe ugize indwara z'igihe zitandukanye.

Inzoga nkorano ziri mu macupa y'ubwoko bugiye butandukanye, izi zikaba zikorwa mu buryo butemewe aho na leta igenda ikangurira abaturage kuzamagana aho bazibona hose.

Ababyeyi barenga batanu bari mu murima, barimo kwita ku bihingwa byabo bareba niba byarakuze, bamwe banasarura abandi nabo batera ku ruhande.

Ibiribwa biri mu byongo bigiye bitandukaye, imyumbati ku ruhande hari ibikoresho bindi byo ku meza.